Amazi arimo umugore uri kuvoma ndetse hakaba hari n'umuntu uri kuhogereza igare, ndetse ayo mazi akaba akikijwe n'ibintu by'ibyatsi.

Umugore wicaye ku ntebe imbere ye hari umusambi wicaye mu nzu ubona ko idakoze neza wambaye igitenge n'inkweto zifunguye n'umupira w'amaboko maremare.

Umusore cyangwa se umugabo ufite ubwanwa ugaragara wishimye, yambaye amarinete, ufite iherena ku zuru, yego, asa nk'aho ari gutunga urutoki ubwanwa bwe.

Umugabo ufite ubwanwa, wambaye umupira w'umukara w'amaboko maremare, imbere ye hateretse mashini, ikirahuri cy'amazi, ndetse n'umukobwa bahagararanye amufashe ku rutugu asa nk'aho hari n'imiti arimo aramuhereza.

Abakecuru babiri bafite inkoni bikenyeje imikenyero, hirya hari umwana mutoya ndetse n'abandi bakobwa babiri, inyuma hari abandi bantu bari mu muhanda, hirya hari insina, hari n'inzu imeze neza.

Inyubako ya etaje, hasi hari amamodoka asa nk'ayaparitse, hejuru hariho iminara, ndetse hariho n'ikigega, hariho n'imikindo ikikije iyo nyubako.

Umusore wambaye isaha, wakoze siporo yambaye isengeri, ifashe ku mutwe ku gice cy'inyuma yafatanyije amaboko.

Amasahani ariho ibyo kurya biriho imbuto zigiye zitandukanye, hariho imineke n'izindi mbuto zitandukanye, imigati, inyama mbisi ndetse n'ibindi byinshi.

Icyatsi kiri mu bwoko bw'igikakarubamba giteye ahantu ubona ko cyeze neza, giteye ahantu hasa nk'aho ari mu gishanga.